Abantu benshi cyane, bari mu muririma aho barimo gushyira ifumbire ku bihingwa, kugira ngo bizakure bizere imbuto nziza, kandi bizatange umusaruro mwinshi.

Ifumbire y'imvaruganda abantu bashira ku myaka kugira ngo yere ndetse ikure vuba kugira ngo babone umusaruro bajyana ku isoko ndetse n'ibyo barya.

Utuzu duto abantu bubaka kugira ngo bashyiremo imbuto zikuriremo, noneho bazazikuremo bazijyane kuzihinga, kugira ngo zizabemo ibiryo byo kurya abantu bakagira imbaraga.

Imiti yica udusimba tuba mu mbuto aho bayiteramo kugira ngo imbuto zigire ubuzima bwiza, harimo: ibijumba, ibigori, intoryi ndetse n'inyanya.

Uburyo bwa kijyambere bwo gukoramo ifumbire yifashishwa mu guhinga imbuto ndetse no guhinga ibintu bigiye bitandukanye, aho bataba ibyatsi byinshi cyane noneho mu gihe gito cyane bigahindukamo ifumbire.

Umufuka urimo ifumbire bafumbiza ibishyimbo, ibigori, ndetse n'izindi mbuto, haririmo inyanya, kugira ngo zikure zigire ubuzima bwiza, bazazisarure bazijyane ku masoko.

Umuti wica udukoko mu mbuto ndetse n'izindi virusi zifata ibihingwa, kugira ngo ibyo bihingwa bigire ubuzima bwiza, bizere bitange umusaruro

Umugabo uhetse ipombo mu mugongo, akaba ari gutera umuti mu mbuto zigiye zitandukanye, harimo amashu kugira ngo zizakure neza, bazabone izo kurya ndetse n'izo kujyana mu isoko.

Ifumbire y'imvaruganda abantu bakoresha bari gushira ku mbuto, kugira ngo imbuto zitaza kugira uburwayi, kugira ngo zizakure zere neza, zizagire umusaruro mwinshi.

Imifuka irimo ifumbire abantu bakoresha bari gufumbira ibihingwa, kugira ngo bizakure bigire ubuzima bwiza, bazabisarure bakuremo umusaruro mwinshi cyane.

Umuntu ufashe igihingwa gito cyane aho ari kucyitegereza, bisa nk'aho ari umuntu uri gukora ubushakashatsi, ukuntu ibihingwa bigenda bikura bizamuka, kugira ngo babone uko bakora imiti itandukanye.

Umuti bashyira mu mbuto zigiye zitandukanye harimo: imineke, amacunga, karoti, ndetse n'inyanya, kugira ngo wice udukoko tuba duhari dutuma zidakura, kugira ngo zizakure zifite ubuziranenge, zizatange umusaruro.

Abagabo babiri bafite umufuka w'umweru, barimo kuyora itaka ryo kujya gukoresha bari guhinga imbuto, ndetse bakaba barijyana no gukora amatafari yo kubakisha amazu.

Umufuka urimo imvaruganda ndetse n'ibigori, aho ibigori ari ibihingwa abantu bahinga, bakabisarura bakabijyana mu rugo bakabirya, ndetse ibindi bakabijyana ku masoko.

Abagabo babiri barimo gufuhira imbuto y'ibigori umuti, kugira ngo bidafatwa n'indwara, bizakure bimeze neza.

Amacupa arimo imiti ivura ibisimba bigiye bitandukanye biba mu bihingwa, imiti kandi ikaba yifashishwa kugira ngo barinde ibyo bisimba bifata ibihingwa kugira ngo, ibihingwa bikure neza bigire ubuzima bwiza.

Imiti myinshi cyane aho yifashisha mu kuvura amatungo aho bayatera mu matungo kugira ngo amatungo agire ubuzima bwiza ndetse abashe no gukura kugira ngo azavemo amafaranga menshi.

umugabo ufashe igare ririho imifuka eshatu y'imvaruganda, aho agiye gufumbira ibigori kugira ngo bizakure neza, bitange umusaruro.

Umuganga urimo gutera umuti igihingwa kugirango kizakure kidafite uburwayi, kizakure gitange umusaruro mwiza kandi cyizere imbuto nyinshi.

Amacupa arimo imiti ivura yica ibisimba mu mbuto, harimo imbuto z'ibijumba, ibishyimbo, ibigori n'inyanya, kugira ngo bigire ubuzima bwiza. Akaba ari imiti ituma ibi bihingwa bikunda gukura neza cyane.

Ubworozi bw'amafi, aho bayororera mu mazi, bakayakuramo, bakayagurisha, bakabona amafaranga, abandi bakazijyana mu rugo kugira ngo bazikoremo ibyo kurya.

Ubwato bunini cyane abantu bakoresha, kugira ngo babone uko baroba amafi, bifashisha mu kugurisha kugira ngo babone amafaranga. Amafi kandi akaba ari ibiribwa bikunzwe n'abatari bakeya.

Ibiryo abantu barya kugira ngo bagire imbaraga ndetse akaba ari ibiryo abantu barya, kugira ngo birinde indwara, bikaba bibamo intungamubiri zigiye zitandukanye harimo vitamini.

Amafi abiri ateretse mu ibase, aho bayarobye kugira ngo bayarye bagire ubuzima bwiza, ndetse bibarinde indwara ndetse no kwandura ibyorezo.

Abantu bari mu bwato bakaba bari kugenda mu nyanja, aho barimo kuroba amafi kugira ngo babone ibyo kurya, ndetse babone nayo bajyana ku isoko ,kugira ngo babone amafaranga.

Amafi ari mu mashashi, akaba ateretse muri firigo, kugira ngo ataza kwangirika, aho abantu bayagura kugira ngo bajye kuyarya. Ndetse akaba atuma abantu bagira ubuzima bwiza.

Amafi abantu baroba mu nyanja kugira ngo bayakuremo bayajyane kuyarya, kenshi na kenshi amafi akungahaye ku ntungamubiri harimo vitamin A ndetse akaba atuma abantu bagira imbaraga.

Amafi menshi ari mu gitebo. Aho amafi ari bimwe mu nyamaswa abantu barya, bakagira ubuzima bwiza ndetse bikabarinda indwara.

Amafi ni bimwe mu binyabuzima biboneka mu mazi, aho abantu bayaroba bakayakuramo bakaba bayajyana kuyarya ndetse andi bakaba bayajyana mu isoko, kugira ngo babone amafaranga.

Ibitebo byinshi cyane birimo amafi matoya, bigaragara ko ari amafi yakuwe mu kiyaga, kugira ngo bayajyane mu isoko bayagurishe, noneho babone amafaranga yo kugura, ibindi bikoresho.

Amafi ni ibinyabuzima abantu bakura mu mazi bakabijyana kubigurisha mu isoko, kugira ngo babone amafaranga. Ndetse bakaba banabirya kugira ngo bagire imbaraga.

Isahani y'umweru irambitseho ibiryo byo kurya, kugira ngo abantu bagire ubuzima bwiza. Bikaba ari ibiryo birimo intungamubiri ndetse na vitamini a. Iruhande hakaba hariho indimu ndetse n' amaronji.

Akabati karimo inyama zigiye zitandukanye ,kugira ngo zidapfa aho abantu bazirya, kugira ngo bagire ubuzima bwiza kandi bagire n'imbaraga nyinshi.

Irongi nurubuto abantu bahinga kugira ngo bazarukoremo ibintu bigiye bitandukanye harimo umutobe ndetse bakaba banarwifashisha bari kuvura indwara zigiye zitandukanye harimo malariya.

Inyama z'amafi ndetse n'ibitunguru, bigaragara ko ari ifunguro ryo kurya kugira ngo abantu barye, bagire ubuzima bwiza ,ndetse barusheho no kugira imbaraga zo gukoresha umunsi ku munsi.

Amafi abiri barobye bakaba bayakasemo ibice bito, bagiye kuyateka kugira ngo bayarye, akaba akungahaye ku birinda indwara ,ndetse n'ibyubaka umubiri.

Ifi ihiye iri ku isahani y'umweru, aho ifi ari ikinyabuzima bakura mu mazi bakagiteka bakakirya kugira ngo bagire ubuzima bwiza.

Amafi abiri arambitse mu ibase, aho bari kuyasukaho umunyu, kugira ngo yumuke babone uko bayateka ameze neza, amafi n'ibimwe mu biribwa abantu barya, kugira ngo bagire ubuzima bwiza kandi babeho neza.

Amafi ni ibinyabuzima biba mu mazi abantu baroba bakabikuramo bakabirya, kugira ngo birinde indwara ndetse babashe kugira ubuzima bwiza.

Igishanga kirekire cyane kirimo ibiti, kirimo amazi, ndetse n'ibyatsi. Hakaba harimo umuntu ugaragara ko ari kuroba amafi kugirango abone ibiryo byo kurya ndetse n'amafaranga yo gukoresha.

Isafuriya iri ku mashyiga, aho batetse amafi ndetse n'imboga biri hamwe, kugira ngo bagire ubuzima bwiza, kandi bibafashe kubaho neza batarwaye indwara nyinshi.

Amafi abantu baroba mu nyanja, kugira ngo bayarye bagire ubuzima bwiza. Akaba abamo n'intungamubiri zigiye zitandukanye zubaka umubiri w'umuntu, ndetse abantu bakaba banayagurisha kugira ngo babone amafaranga.

Umurima urimo imbuto zikiri ntoya cyane, bigaragara ko ari umurima abantu bateyemo imbuto, kugira ngo zizakure babone izo kujyana ku isoko, ndetse babone n'ibiryo byo kurya.

Umurima munini abantu bahingamo ibigori, bakabisarura bakabijyana ku masoko, kugira ngo babonemo amafaranga ndetse babonemo n'ibyo kurya.

Ubuhinzi bw'ibirayi, aho ibirayi ari ikintu gikomeye cyane, kuko ni bimwe mu biribwa abantu bahinga bakabijyana ku isoko, bagahabwa amafaranga ndetse n'ababitwaye bakajya kubirya.

Igiti cy'imbuto ntoya, aho kenshi na kenshi zikunze guhingwa impande y'urugo, kugira ngo bajye bazifashisha bari kuvura indwara zigiye zitandukanye harimo malariya.

Ibiti binini cyane by'intufe, abantu bahinga bakabisarura bimaze gukura, bakabikoramo inkwi zo gucana, ndetse bakanabikoramo imbaho zo kwifashisha mu gukora ibikoresho byo mu rugo.

Igiti cy' avoka cyeramo avoka, aho avoka bazirya kugira ngo babeho ndetse bakazijyana no ku isoko kugira ngo babone amafaranga yo kwifashisha kugura ibindi bikoresho.

Ibiti by'intufe bikiri bitoya cyane, ariko akaba ari ibiti abantu batera kugira ngo bizakure babikoremo imbaho, ndetse babyubakishe, ndetse bimwe bikaba bikurwamo imiti yo kuvura.

Igiti kinini cyane abantu batera kigakura kikaba kinini, aho gifite amababi y'icyatsi bakaba bakifashisha bari kuvura indwara zigiye zitandukanye ndetse bikaba n'ibyatsi by'amatungo.

Igiti cya avoka aho bagihinga kugira ngo cyere imbuto za avoka bakunda kurya, ndetse bakaba bakunda kuzijyana ku isoko kugira ngo babone amafaranga. Avoka kandi ni imbuto abantu barya kugira ngo bagire ubuzima bwiza.

Umurima udafite icyo uhinzemo, aho abantu bitegura kuwuhinga kugira bakuremo imbuto zo kurya, ndetse n'izo kujyana ku masoko.

Umurima munini cyane ,urimo ibiti binini cyane, ndetse n'ibigori bigaragara ko ari umurima bahinzemo ibigori, bakaba barabisaruye bakabijyana ku masoko ,kugira ngo babone amafaranga, ndetse n'ibindi bakaba babijyana mu rugo kugira ngo babiteke babirye.

Igiti cy'uruboga gifite ibara ry'icyatsi, kikaba ari kimwe mu biribwa abantu barya, kugira ngo bagire ubuzima bwiza ndetse bakure neza.

Ubuhinzi bw'indabyo abantu bakunda guhinga, kenshi na kenshi kugira ngo bazazigurishe babone amafaranga, ndetse kenshi na kenshi bakunze kuzihinga kugira ngo bajye bazitera hafi y'urugo.

Umuhanda mutoya urimo ibyatsi ndetse n'amashuri, ibiti birebire n'inka bigaragara ko ari ikigo cy'amashuri ,aho abanyeshuri biga ndetse akaba ari n'ibiti binini cyane, bikunze gukorwamo imbaho ndetse n'inkwi zo gutekesha.

Umurima urimo amateke, aho abantu bakunda kuwuhinga kugira ngo basaruremo amateke. Bakaba bayajyana ku isoko kugira ngo babone amafaranga, ndetse abandi bakaba bayarya kugira ngo bagire ubuzima bwiza.

Ubuhinzi bwa karoti, aho karoti ari igihingwa abantu bahinga kugira ngo bakirye, ndetse bakaba bakifashisha kugira ngo bavure indwara zimwe na zimwe, harimo indwara zikunze gufata amaso.

Igiti cy'igiko, ndetse n'insina zeraho ibitoki, abantu bahinga kugira ngo babone ibyo kurya, ndetse baba babikoramo umutobe wo kunywa.

Igiti cy'isombe aho ndetse n'amateke, aho isombe ar'ibiryo abantu barya, kugira ngo babeho ndetse n'amateke aba ari ibiribwa abantu barya, kugira ngo babone imbaraga zo gukora indi mirimo.

Umurima munini cyane urimo ibishymbo byumye ,ibishyimbo akaba ari ikintu gikomeye cyane, akaba ari kimwe mu bihingwa bihingwa mu bice byo mu majyaruguru ,bakaba babijyana ku isoko bakabona amafaranga ,ndetse n'abandi bakabyifashisha mu kubirya.

Igiti cy'avoka ndetse n'umurima usa nkaho bigaragara ko bawuhinze biteguye guteramo imbuto zigiye zitandukanye ari izo kurya ndetse bakabashobora no gutera mu bwatsi bw' amatungo.

Imbuto z'ibihaza abantu bakunda guhinga ku ruzitiro kugira ngo zere babone ibyo kurya, ndetse babone n'ibyo gusagurira ku masoko, ndetse kenshi na kenshi hakaba havamo n'ibyatsi bagaburira amatungo.

Uruvange rw'imbuto zigiye zitandukanye harimo amateke, hakaba harimo ibishyimbo, ndetse hakaba harimo n'ibigori byeze bakaba barabitemye akaba ari ibihingwa bikunda kugaragara mu majyaruguru aho babyifashisha kugira ngo babihinge bazabijyane mu isoko babone amafaranga.

Ubuhinzi bw'indabyo abantu bakunda guhinga mu Majyaruguru, aho bazihinga kugira ngo bazigurishe mu mahanga babone amafaranga, ndetse abandi bazishyire mu mazu ya bo.

Imbuto kenshi na kenshi zikunda kwera impande y'urugo aho abantu bazihinga kugira ngo bazirye , zikaba ari zimwe mu mbuto zivura indwara ndetse abandi bakaba bazifashisha mu gukora imiti ndetse n'imitobe .

Umurima umurima munini cyane bigaragarako bamaze kuwuhingamo ibigori byinshi, bikaba ibigori ari ibihingwa abantu bahinga bahinga mu bishanga noneho bakabisarura kugira ngo babijyane ku masoko, ndetse ibindi babijyane mu rugo babijyane kubirya.

Ihene ni itungo abantu borora bakarigurisha rikavamo amafaranga, ndetse abandi bakaribaga rikavamo inyama zituma umuntu agira ubuzima bwiza.

Amateke ni igihingwa abantu bahinga kugira ngo bazabone amafaranga, ndetse bazanacyifashishe mu kukirya, kugira ngo bagire imbaraga nyinshi zo gukora indi mirimo.

Urubuto abantu bahinga rwa kera, bakarukoramo imiti yo kuvura indwara, ndetse abandi bakarukoramo ibiryo byo kurya, kugira ngo bagire ubuzima bwiza.

Umurima uhinzemo imbuto ntoya cyane ndetse n'ibitoki, aho ibitoki ar'ibihingwa abantu bahinga kugira ngo byere, ba bonemo imitobe ndetse ba bonemo n'ibyo kurya bigiye bitandukanye harimo imineke.

Ibiti by'intusi bikiri bitoya abantu bifashisha bari kubikoramo inkwi zo gucana kugira ngo babone ibyo kurya, ndetse abandi bakazifashisha bazikoramo imbaho, ndetse hari n'abazikoresha bazikoramo imiti igiye itandukanye yo kuvura.

Ibihingwa by'amateke ni ibihingwa abantu bakunda guhinga ahantu mu bishanga, kugira ngo bazabisarure babone ibyo kurya, ndetse babone n'ibyo kujyana ku isoko. Amateke kandi ni ibihingwa abantu bahinga kugira ngo babone imbaraga iyo babiriye.

Imbuto abantu bahinga mu gipangu, kugira ngo bajye bazifashisha bari kuzikoramo umuti wo kuvura indwara, harimo Malariya ndetse no kuvura umutwe.

Ibiti by'indabo abantu bahinga, kugira ngo bazabisarure, babijyane ku isoko, babone amafaranga, ndetse rimwe na rimwe bakanabishyira mu rugo, kugira ngo abe ahantu heza.

Ibyatsi bifite ibara ry'icyatsi, aho babyifashisha abantu benshi babikoresha, bari kubyifashisha mu kuvura indwara zitandukanye, harimo marariya, ndetse n'inkorora.

Ibyatsi bikunda kwera ahantu mu mashyamba, aho abantu babyahira bakabishyira amatungo yabo akabirya, ndetse abandi kenshi na kenshi bakunda kubikoramo n'imiti ivura abantu ndetse n'inyamaswa.

Igiti cya avoka kikiri gito cyane, kikiri gukura kugira ngo kizere kivemo imbuto nyinshi cyane z'avoka. Abantu barya kugira ngo bagire ubuzima bwiza, ndetse bakaba banazijyana ku isoko, bakazigurisha kugira ngo babone amafaranga.

Ibiti binini cyane biri mu ibara ry'icyatsi kenshi na kenshi bikunze kugaragara mu ishyamba, aho babyifashisha bari kubikuramo inkwi zo guteka, ndetse n'amababi yabyo bakayifashisha bari gukoramo imiti.

Ibiti by'Imisave ndetse n'ibiti bya Shipuli binini cyane, aho ari ibiti bakunda kwifashisha bari kubikoresha uruzitiro rwo mu rugo, kugira ngo birinde ibisambo.

Umurima munini cyane uhinze ndetse n'undi murima uri iruhande udahinze, bigaragarako ari umurima basaruyemo imbuto z'ibigori, Ibigori bifashisha kugira ngo babikoremo ifu yo kurya ,ndetse abandi babigurisha babone amafaranga.

Abagore bari mu murima, aho bari guhingira imbuto z'ibigori, kugira ngo zizakure, zere neza, bazazijyane ku isoko, aho babonamo amafaranga menshi, yo kugira ngo bagure n'ibindi bikoresho.

Umubyeyi ufashe imbuto z'ikawa mu ntoki. Ikawa akaba ari imbuto abantu bahinga, bakazisarura, bakazijyana ku masoko kugira ngo babone amafaranga, ndetse bakaba banazikoramo icyayi.

Umufuka urimo ibishyimbo, aho ibishyimbo ari imbuto abantu bahinga mu murima, bakabisarura kugira ngo babone ibyo barya ndetse n'ibyo bajyana mu isoko kugira ngo babone amafaranga.

Ibirayi ni imbuto abantu bahinga kugira ngo zere noneho bazisarure bazijyane ku masoko, babone amafaranga ndetse ibisigaye babirye mu ngo zabo, kugira ngo bagire imbaraga.

Imbuto abantu bahinga mu mashashi, kugira ngo zere neza ndetse abandi bakaba bazihinga mu rugo, kugira ngo zibe imitako kandi akaba ari n'imbuto nziza zivamo imiti.

Amapapayi ni imbuto abantu bahinga zikera, zikaba zera zisa n'umutuku, aho zivura indwara nyinshi, ndetse abandi bantu bakaba bazikoramo amaji, imitobe y'ubwoko butandukanye.

Urubuto rw'indimu abantu barya kugira ngo birinde indwara, abandi bakazikoramo umutobe wo kunywa, bakaba banawugurisha kugira ngo babone amafaranga.

Imbuto z'amapera, amapera rimwe rikasemo ibice bibiri, aho amapera ari amwe mu bihingwa abantu bakunda guhinga majyaruguru, akaba bakoramo umutobe ndetse bakaba banayarya.

Umugabo uri mu muririma w'ibigori byinshi cyane kandi bimeze neza, aho arimo kugenda akuramo ibimeze nabi. Ibigori kandi ni imbuto abantu bahinga kugira ngo ikure bayisarure babone ibyokurya, kenshi na kenshi biba birimo ibitera imbaraga.

Imbuto y'ibigori n'imbuto zimwe mu zikungwa guhingwa mu ntara y'Amajyaruguru aho ibigoriyo byeze babisarura bakabigurisha bakabijana bakabijana ku isoko bakabigurisha bakabonamo amafaranga.

Igitoki ni igihingwa abantu bahinga, cyakwera bakakirya ndetse bakanakigurisha bakabonamo amafaranga, ndetse abandi bakaba bashobora kugikoramo n'imineke yo kurya ,ndetse no gukoramo imitobe.

Ibigori ni imbuto abantu bahinga mu bishanga, bakazisarura, bakazijyana ku isoko ndetse izindi bakazishyira mu rugo bakazirya.

Umukobwa wikoreye umufuka urimo ibirayi, aho abijyanye ku isoko kugira ngo abigurishe abone amafaranga ndetse ibindi babirye.

Igihingwa cy'amashu abantu bahinga mu murima cyakwera bakakigurisha, bakabonamo amafaranga, ndetse bakanabiteka, kugira ngo babone ibyo kurya.

Imbuto z'amatunda ziri mu ibara ry'icyatsi bigaragara ko zitare arikokaba ari imbuto zikungahaye ku ntungamubiri abantu bakaba bazirya kugira ngo babeho kandi bagire ubuzima bwiza.

Umufuka urimo ibishyimbo, ndetse n'abantu barimo kurobanura ibindi, aho ibishyimbo ari igihingwa abantu bahinga, kugira ngo bazabirye ndetse bazabijyane no ku masoko, babone amafaranga yo kwifashisha.

Umusozi muremure ndetse n'umubyeyi bigaragara ko arimo kuvomerera imbuto kugira ngo zizakure neza azabone azabone izo ajyana mu isoko ndetse n'izo asigarana zo kurya.

Abantu benshi bahagaze mu murima, umurima urimo igihingwa gifite ibara ry'icyatsi, bigaragara ko bari mu rugendoshuri.

Umubyeyi uhetse ipombo itera umuti mu bigori, ibigori akaba ari imbuto abantu bahinga, zamara kwera bakazirya, zikabagirira akamaro mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Umubyeyi ufashe igihingwa mu ntoki, akaba agiye kugihinga kugira ngo kizere abone umusaruro mwinshi cyane. Akenshi na kenshi akaba azabijyana ku isoko akagurisha kugira ngo abone amafaranga.

Ibirayi ni ibihingwa abantu bahinga kugira ngo babigurishe babone amafaranga ndetse basagure n'ibyo kurya mu ngo zabo.

Imyembe ni imbuto zikunda kwera, zisa n'umutuku. Aho ari imbuto, abantu bahinga kugira ngo babone ibyo kurya, ndetse bazijyane kuzigurisha babone amafaranga.

Inyanya ni imbuto abantu bahinga kugira ngo zere bazirye, bagire ubuzima bwiza, ndetse bazijyane no ku masoko, bazigurishe, babone amafaranga.

Ibishyimbo bifite ibara ry’icyatsi, biri mu mapaniye, aho babisaruye kugira ngo babijyane ku isoko, babone amafaranga.

Abagabo babiri bahagaze bari kuganira bari mu muririma, umwe wambaye ishati y'umutuku undi akaba yambaye ishati y'umweru afashe ibase mu ntoki.

Abantu benshi bahuriye hamwe bari guhinga kugira ngo babone uko batera ibihingwa harimo ibijumba ndetse n'ibishimbo bazabisarure babonemo ibyo kurya.

Inkoko zifite ibara ry'umweru n'ibara ry'umukara , zikaba ari zimwe mu bworozi bukorwa n'abatari bakeya zikaba zitanga umusaruro w'amagi , akungahaye ku ntungamubiri...

Ibiti by'amatunda abantu bahinga, kugira ngo bazabone uko bakoramo umutobe, ndetse andi bazayarye, ndetse bazayajyane no ku isoko, kugira ngo babone amafaranga yo kwifashisha kugura ibindi bikoresho.

Inka ni itungo abantu borora kugira ngo rizabahe amata, ndetse bazabonemo n’inyama zo kurya, ndetse bakarigurisha bakabonamo amafaranga.

Inkoko ni amatungo magufiya cyane, abantu bakunda kororera mu rugo zikaba zitanga amagi, abantu barya kugira ngo birinde indwara ndetse n'inyama barya kugira ngo bagire imbaraga.

Imbuto ntoya cyane abantu bahinga kugira ngo babone amafaranga, ndetse kenshi na kenshi bakaba bazihinga, kugira ngo bazikoremo imitobe yo kunywa.

Inkoko ni amatungo magufiya abantu borora, bakaba bazororera mu rugo kugira ngo zitange amagi, ndetse bakaba banazigurisha kugira ngo babone amafaranga.

Ibirayi ni igihingwa abantu bahinga, cyakwera bakagisarura kugira ngo babone ibyo kurya, ndetse n'ibyo kujyana ku isoko kugira ngo babone amafaranga.

Abaturage benshi cyane bateraniye ahantu hamwe aho aho bigaragara ko bari kwiga uko batera imbuto ndetse bakaba babyiga kugira ngo bazazitere zere bazisarure.

Ibijumba kimwe mu bihingwa abantu bahinga ndetse bakaba bakunda kugihinga mu ntara y'Amajyaruguru kugira ngo babigurishe babone amafaranga ndetse babihinge kugira ngo babone ibyo kurya.

Inanasi zirambitse ku mufuka ndetse n’indobo, aho inanasi ari igihingwa cyiza cyane. Abantu bahinga kugira ngo bazabone amafaranga. Akenshi na kenshi gikunda kuvamo umutobe, ndetse abandi bakakifashisha mu kuvura indwara.

Abantu benshi bari mu murima aho biri kugaragara ko barimo gusarura imbuto z'ibirayi, ibirayi n'imbuto abantu bahingaga kugira ngo babisarure babijyanane ku masoko babone amafaranga ndetse basagure n'ibyo kurya mu ngo zabo.

Imbuto, pwavuro, imiteja, indimu ndetse n'intoryi abantu barya kugira ngo bagire ubuzima bwiza, bibafashe kubaho neza.

Amateke ni igihingwa abantu bahinga kugira ngo bakirye bagire imbaraga ndetse bibarinde indwara ndetse bakaba amateke bayahinga kugira ngo bayajyane ku isoko babone amafaranga.

Umugore wambaye isengeri, witeze igitambaro cy'umukara, akaba ari mu murima uhinzemo ibigori, akaba arimo kubisarura, kugira ngo abone ibyo ajyana kurya, ndetse n'ibyo bajyana mu isoko.

Abana babiri bahagaze mu murima, aho umurima uhinzemo ibigori byinshi. Ibigori kandi akaba ari imbuto abantu bahinga kugira ngo bazayisarure, bayijyane ku masoko, ndetse bazabone n'ibiryo barya. Ikaba ikungahaye ku ntungamubiri nyinshi cyane ndetse n'ibitera imbaraga.

Amatunda ni urubuto abantu bahinga ,kugira ngo bazirye zibavure indwara nyinshi zitandukanye, aho harimo indwara za Malariya ndetse n'uburwayi bugiye butandukanye ,akaba ari urubuto rukunda kubamo intungamubiri, ndetse na vitamini A.

Avoka ni urubuto abantu bahinga kugira ngo bazarusarure barujyane ku isoko, ndetse abandi bakaba bazifashisha mu kuzirya kugira ngo birinde indwara ndetse bagire ubuzima bwiza.

Pavuro zisa n'ubururu zigaragara ko zeze, aho pavuro ari igihingwa bahinga mu rwego kugira ngo, bazazijyane ku isoko babone amafaranga, ndetse bazijyane no mu ngo zabo kuzirya.

Inka n'amatungo magufi cyane, abantu bakunda kororera mu rugo, aho bayorora kugira ngo abahe amata, ndetse bazayagurishe babone amafaranga, ndetse babone n'amata yo kunywa.

Umugabo uhetse igitebo akaba ari gusoroma ikawa. Ikawa ikaba ari kimwe mu bintu bikorwamo icyayi cyo kunywa ndetse n’imiti igiye itandukanye.

Umubyeyi ufashe imbuto mu ntoki z'ubunyobwa akaba ari mu murima aho ari kuzisarura kugira ngo azijyane ku isoko ndetse abone n'izo ajyana kurya mu rugo.

Inyama y'inkoko ibaze ,bakaba bagiye kuyiteka kugira ngo bayirye ,ikaba ari imwe mu biryo bikungahaye kuri vitamini, ndetse no mu byubaka umubiri.

Ababyeyi bane bari mu murima aho bari kubagarira neza imbuto ndetse kugira ngo zizakure bazabone amafaranga ndetse bazabonemo n'ibyo kurya.

Umugabo uri mu murima munini cyane ,aho bigaragara ko arimo gusarura icyayi ,aho icyayi ari ibihingwa abantu bahinga bakabisarura, bakabijyana bakajya kubikoramo icyayi cyo kunywa.

Urubuto rw'avoka abantu bahinga, kugira ngo barurye bagire ubuzima bwiza, ndetse bazijyane ku isoko babone amafaranga ,akaba ari zimwe mu mbuto zikungahaye ku ntungamubiri arimo vitamine A.

Imboga z'amashu akaba ari imboga abantu bateka bakazirya, zikungahaye kuri vitaminini a, ndetse abandi bakazihinga, kugira ngo bazijyane ku isoko, babone amafaranga.

Ababyeyi babiri bari mu murima aho barimo kubagarira ibiti ndetse n'imbuto zigiye zitandukanye kugirango zizakure zizatange amafaranga ndetse bazabonemo n'ibyo kurya.

Imifuka irimo ifu nyinshi cyane, aho ifu bayifashisha bari kuyikoramo ibiryo byo kurya kugira ngo abantu bagire imbaraga, ndetse n'ibindi. Bakaba babikoresha mu kugaburira amatungo.

Ibijumba ni kimwe mu bihingwa abantu bakunda guhinga bo mu Majyaruguru, aho babihinga kugira ngo babone ibyo bajyana ku isoko, ndetse basagure n'ibyo barya mu rugo. Ibijumba kandi ni bimwe mu bintu bitera imbaraga.

Urubuto rw'umwembe aho ari urubuto rwera rutukura, ndetse akaba ari imbuto abantu bifashisha bazirya, ndetse abandi bakazikoramo umutobe bajyana ku isoko bakawugurisha.

Imboga z'amashu ni imboga abantu bahinga bakazisarura, bakazijyana mu masoko ndetse zikaba zifite uruhare runini, kuko ziba zirimo vitamine zituma umuntu agira ubuzima bwiza.

Ibiti byinshi bikiri bito bihinzwe ahantu hanini cyane, aho babihinga kugira ngo bizakure, bazabikoremo inkwi ndetse ibindi bazabikoremo imbaho zo kwifashisha.

Abantu batatu aho harimo abagore babiri ndetse n'umugabo umwe, bateruye imboga eshatu aho bari mu murima w'imboga nyinshi cyane. Imboga zikaba ari ibiryo abantu barya.

Imbuto za pavuro abantu bahinga mu bishanga, bakazisarura bazijyana ku isoko kugira ngo babonemo amafaranga, ndetse bakaba ba bazikoresha mu kuzirya.

Ikigori gitonoye, gifite amasaro y'umweru bigaragara ko keze, aho ibigori ari bimwe mu bihingwa abantu bahinga bakabijyana ku isoko, ndetse ibindi bakabishyira mu ngo zabo, kugira ngo bajye babirya mu gihe cy'inzara.

Umurima munini cyane uhinzemo imbuto z'ibigori, aho ibigori ari bimwe mu bintu mu bihingwa abaturage bo mu majyaruguru bahinga kenshi na kenshi kugira ngo bibahe amafaranga, ndetse babyifashishe babirya mu buzima bwa buri munsi.

Ibirayi ni imbuto abantu bahinga mu murima bakayisarura, kugira ngo babone amafaranga, ndetse babonemo n'ibyo kurya. Kandi ibirayi ni imbuto akenshi na kenshi bakunda guhinga mu majyaruguru bakabigemura mu bindi bice.

Igitoki ni igihingwa abantu bahinga kugira ngo bazabone ibyo kurya ndetse bazabonemo imineke ndetse bazakoremo n'umutobe wo kunywa.

Ikibuti abantu bororeramo inkoko kugira ngo zikure neza, zitange amagi, ndetse bazazigurishemo inyama ndetse babone n’amafaranga.

Igitoki ni igihingwa abantu bahinga, kugira ngo kivemo umutobe ndetse kivemo ibiryo barya, kugira ngo bagire imbaraga.

Imbuto ziri mu ibase y'umutuku ndetse na zo zifite ibara ry'umutuku, zikaba ari amaronji, aho amaronji ari imbuto zifashishwa ku bantu bazirya, kugira ngo bagire ubuzima bwiza.

Ibisheke ni igihingwa abantu bahinga kugira ngo bazakirye, abandi bakagikoramo amasukari y'ubwoko bugiye butandukanye, aribwa n'abantu.

Imbuto y'ibishyimbo ni imbuto abantu bakunda guhinga, kugira ngo babone umusaruro mwinshi cyane, aho babijyana ku isoko, ndetse bamwe na bamwe bakaba babyifashisha mu kubirya, kugira ngo bagire ubuzima bwiza.

Urubuto rw'ipera rusatuyemo ibice bibiri aho rukundwa n'abantu batari bakeya rukaba rwifashishwa barurya ndetse bakaba banarukoramo imitobe y'ubwoko bugiye butandukanye.

Imbuto z'amatunda ni imbuto abantu bahinga, cyane cyane bo mu Majyaruguru, aho ari imbuto ziba zikungahaye ku ntungamubiri, ndetse bakaba bazikoramo n'umutobe.

Imbuto z'intoryi ,ni imbuto ntoya cyane abantu bakunda guhinga zikera , bakazijyana ku isoko, ndetse , abandi bakazirya mu rugo iwabo. Intoryi kandi, n'imbuto zikunze kubamo intungamubiri ndetse n'ibitera imbaraga .

Ababyeyi bari mu ishirahamwe aho barimo guhingira imbuto y'ibigori, akaba ari ibigori bikiri bito aho bikura bakabisarura bakaba babijyana ku isoko kugira ngo babone amafaranga.

Abagabo benshi cyane bahetse ibitebo ku mugongo, bigaragara ko barimo kwaha icyayi, kugira ngo bazajye kukigurisha, babone amafaranga yo kwifashisha, ndetse nabo bazagikoreshe mu ngo zabo.

Ubworozi bw'ingurube bukunze gukorerwa mu ntara y'Amajyaruguru aho ingurube ari kimwe mu bworozi abantu benshi cyane borora kugira ngo babone amafaranga ndetse bakazikoramo inyama zo kurya.

Ibigori, kimwe mu bihingwa abaturage bakunda guhinga, akenshi na kenshi bo mu ntara y'amajyaruguru, kugira ngo bikure, noneho bazabisarure, babijyane ku isoko, babone amafaranga, ndetse babirye mu ngo za bo.

Imboga z'amashu abantu bahinga mu bishanga, kugira ngo zere bazirye, izindi bazigurishe amafaranga ku masoko. Imboga kandi ni bimwe mu bihingwa abantu bahinga, bikungahaye ku ntungamubiri zituma abantu bagira ubuzima bwiza.

Abaturage benshi cyane, bahagaze ahantu hamwe bafashe ibiti by'imbuto mu ntoki, aho bigaragara ko bagiye kubitera mu mirima igiye itandukanye, kugira ngo bizakure bizagire akamaro.

Icyatsi gikunda kwera mu kinani, aho abantu bagikoresha bari kuvura ndetse bakanacyahira, bakakigaburira amatungo kugira ngo arye ahage.

Urubuto rwa avoka ni urubuto abantu bahinga rukera bakarurya kenshi na kenshi rukaba rubamo intungamubiri ndetse rukaba ruvura indwara ndetse abandi bantu bakaba barukoramo amavuta yo kwisiga.

Umugabo wambaye ikote ry'umutuku n'ingofero y'umukara, ufashe isuka ku rutugu, akaba agiye guhinga ibijumba kugira ngo bizere babone ibyo kurya.

Avoka, igihingwa abantu bahinga kugira ngo bakirye, kibongerere imbaraga ndetse abantu bakaba bazihinga, kugira ngo bazazigurishe babone amafaranga.

Avoka ni urubuto abantu bahinga mu murima, bakarusarura kugira ngo barujyane ku isoko babone amafaranga, ndetse kenshi na kenshi avoka ni urubuto rukunda kubamo intungamubiri, ndetse n'ibirinda indwara.

Ipera ni urubuto abantu bahinga bakarusarura bakazijyana ku isoko bakabona amafaranga. Ndetse abandi bakazirya kugira ngo bagire ubuzima bwiza. Amapera kandi ni imbuto bahinga bakaba bazikoramo.

Umugabo ufashe isuka ku rutugu, ugiye guhinga imbuto kugira ngo zizere abone izo kugurisha mu isoko, ndetse n'izo kujyana mu rugo, kugira ngo bazirye, ndetse akaba yambaye ikoti ry'umutuku .

Amatungo y'amahene ahagaze mu biti byinshi, aho amahene ari amatungo akunda gutanga umusaruro ,aho bayajyana ku isoko bagakuramo amafaranga menshi.

Umubyeyi uri mu murima w'imboga aho ateruye uruboga rumwe, bigaragara ko ari umurimo munini cyane, uruboga akaba ari igihingwa abantu bahinga kibafasha kubona amafaranga, ndetse bakaba bakirya, kugira ngo babeho.

Urujya n'uruza rw'abantu aho bari mu isoko. Bari kugurisha ibitoki, ndetse n'abandi bakaba barimo kubigura kugira ngo babone amafaranga, abandi babone ibyo kurya.

Igiti cy'urubuto rw'ibinyomoro, aho ibinyomoro ari imbuto abantu bahinga kugira ngo bazirye zibongererere amaraso ndetse bagire ubuzima bwiza.

Urubuto rw'igihaza ruteye ahantu mu murima, aho baruhinga kugira ngo bazarusarure barurye ndetse bakaba, banarukoramo imiti itandukanye ivura indwara.

Ababyeyi batatu bambaye imipira y'umutuku ndetse bakaba bari mu murima munini cyane urimo imbuto z'icyatsi aho bigaragara ko abari gutembera.

Abantu bahagaze ahantu hamwe hari imbuto zifite ibara ry'icyatsi, aho bari mu rugendo shuri kugira ngo bagire ubumenyi buhambaye, ku bijyanye no guhinga imbuto.

Umufuka w'ibijumba upakiye wuzuye, aho bawujyanye ku isoko kuwugurisha, kugira ngo hazavemo amafaranga, ndetse abantu bazabigure kugira ngo bajye kubirya.

Abantu bahagaze mu murima bamaze gusarura imbuto harimo ibijumba, ibigori ndetse n'amasaka. Bakaba babijyana ku isoko kugira ngo babone amafaranga.

Ibisheke bivamo amasukari abantu banywa, ndetse abandi bakabirya kugira ngo bagire ubuzima bwiza, ndetse bagire n'isukari nyinshi mu mibiri yabo.

Abagabo benshi ndetse n'abakobwa, harimo abambaye imipira y'icyatsi ndetse n'umukara, bakaba bahagaze iruhande rw'ibiti bikiri bitoya by'imbuto bitegura gutera.

Ubuhinzi bw’indabo. Abantu bahinga mu murima, bakazisarura, bazijyana ku masoko, bakazigurisha kugira ngo babonemo amafaranga yo kugura ibiryo.

Ibirayi byinshi aho barimo kubipakira mu mifuka, kugira ngo babijyane mu isoko kubigurisha, aho bamwe batanga amafaranga bakabigura, bakabijyana bakajya kubirya, abandi nabo bakabona amafaranga yo kugura ibindi.

Ibigori byinshi cyane byanditse ku izuba kugira ngo byume bazabone uko babijyana kubikora mu ifu ndetse ibindi babone uko babiteka neza cyane kugira ngo bagire ubuzima bwiza kandi bijye bibarinda indwara.

Ababyeyi bahagaze mu muhanda aho bigaragara ko bavuye mu murima guhinga imbuto zigiye zitandukanye, harimo ibijumba ndetse n'ibishyimbo. Mu by'ukuri akaba ari imbuto abantu bakunda guhinga, kugira ngo bazirye bagire ubuzima bwiza.

Imineke ndetse n'avoka, ni imbuto abantu barya kugira ngo bagire ubuzima bwiza. Kenshi na kenshi imineke bakaba banayikoramo imitobe ndetse n'inzoga, ndetse avoka na zo zikaba zivamo amavuta, ndetse n'ibindi bikoresho.

Inyanya, intoryi ni imbuto abantu bahinga ,bakazisarura, bakazijyana ku isoko bakabona amafaranga ,ndetse bakaba banazihinga, kugira ngo babone ibiryo barya.

Intoryi ni imbuto abantu bahinga zikera bakazijyana ku isoko, kugira ngo babone amafaranga ndetse bakanazirya mu rugo ,kugira ngo bagire ubuzima bwiza.

Abantu benshi bari mu murima w'indabyo, aho barimo kuzikorera neza, kugira ngo zizakure zifite ubuzima bwiza, kandi bazazigurishe, babonemo amafaranga menshi cyane, yo kwifashisha.

Ibisheke ni ibihingwa abantu bahingag byakwera bakabisarura bakajya kubigurisha, bakabikoramo isukari abantu bashira mu gikoma cyo kunywa.

Urubuto rw'itunda ni urubuto abantu bahinga rukunda kwera, kandi akaba ari urubuto ruryoherera, abantu bagakunda kuzigurisha, kugira ngo babone amafaranga, ndetse abandi bakazikoramo umutobe.

Abantu batatu bahagaze mu murima urimo igihingwa cy'ingano, ingano kikaba ari igihingwa abantu bahinga cyakwera bakagikoramo kikavamo ibiryo ndetse bakagikoramo n'imikati.

Imyumbati ni ibihingwa bahinga mu murima, kugira ngo babone amafaranga iyo bayijyanye ku isoko. Ndetse bakayihinga kugira ngo babone iyo kurya, kugira ngo bagire ubuzima bwiza.

Imyumbati ni ibihingwa abantu bahinga bikerera munsi y'ubutaka bakabikuramo bakazijyana mu isoko kugira ngo babone amafaranga ndetse n'izindi bakazifashisha mu rugo mu kuzirya kugira ngo bagire imbaraga.

Intama ni itungo rigufi abantu borora mu rugo kugira ngo ribahe umusaruro harimo: ifumbire yo guteza imbuto, ndetse bakazigurisha bakabonamo amafaranga.

Amateke ane arambitse ku isahani y'umweru, aho abantu bayifashisha mu kuyarya kugira ngo babeho neza, abandi bakayifashisha bayajyana ku isoko kugira ngo babone amafaranga yo gukoresha.

Igiti cy'amapapayi kirimo amapapayi atukura ndetse n'amapapayi ataratukura, aho ipapayi ari ikintu kigira intungamubiri nyinshi cyane ndetse cyifashishwa, abenshi bakaba bagikoresha bari kuvura indwara.

Imbuto z'amashu abantu bahinga mu murima bakazisarura bakazijyana mu rugo kuzirya abandi bakazijyana ku isoko kuzigurisha. Aho amashu ari imbuto zikungahaye kuri vitamini harimo vitamini A.

Ishyamba rinini cyane ry'imbuto z'amapera, aho amapera ari imbuto zikunzwe n'abatari bakeya, aho bazihinga kugira ngo babone amafaranga, ndetse izindi bazijyane mu rugo bajye kuzirya.

Ibitunguru ni ibihingwa abantu bahinga cyane cyane mu Majyaruguru, aho babikora, bakunda kubiteka cyangwa se bakabikatira hejuru y'ibiryo bakabirya. Ibitunguru kandi ni bimwe mu bintu abantu bifashisha bari kuvura, kuko bivura indwara zimwe na zimwe.

Ibihingwa by'amateke ni ibihingwa abantu bahinga bakabisarura, bakabijyana ku masoko ndetse ibindi bakabijyana mu ngo zabo kugira ngo babirye bagire imbaraga nyinshi ndetse bagire n'ubuzima bwiza.

Ibihingwa by'imyumbati abantu bakunda guhinga mu mirima, aho babihinga kugira ngo babisarure bazabirye, ibindi bazabijyane ku masoko kugira ngo babone amafaranga.

Inanasi ni imbuto abantu bahinga, bakazisarura bakazijyana mu isoko, ndetse abandi bakazikoramo umutobe wo kugurisha, kugira ngo babone amafaranga yo kwifashisha.

Urujya n'uruza rw'abantu ndetse n'imifuka igaragara ko ipakiye yuzuye, bisa nk'aho ari isoko, aho abantu bari kugura ibintu ndetse n'abandi bakabigurisha.

Amateke ni imbuto abantu bahinga, kugira ngo bazazisarure, bazazijyane mu rugo babone ibyo kurya, ndetse bazasagurire no ku masoko, kugira ngo bazabone amafaranga.

Intoryi, indimu, ndetse n'inyanya, aho ari imbuto abantu bahinga bakazijyana ku masoko bakazigurisha, ndetse abandi bakazigura bakazijyana mu ngo zabo, bakajya kuzirya.

Ibijumba ni ibihingwa abantu bahinga kugira ngo bazabikure, babijyane mu rugo kubirya cyangwa se bakabijyana mu isoko kugira ngo babone amafaranga yo gukoresha.

Umugabo urimo kwaha ikawa, aho ikawa ari kimwe mu bintu, mu bihingwa abaturage bahinga kugira ngo bazabijyane ku masoko babone amafaranga, ndetse babijyane hanze babikoremo icyayi cyo kunywa.

Ababyeyi bari mu murima w'inanasi zeze aho bagiye kuzikura bakazijyana mu isoko kugira ngo babone amafaranga, kandi inanasi akaba ari imbuto abantu bakoramo umutobe wo kunywa.

Umufuka urimo ibigori, ibigori akaba ari ibihingwa abaturage bahinga kugira ngo bazabigurishe babone amafaranga yo kwifashisha ndetse abandi bakabihinga kugira ngo babone ibyo kurya.

Umubyeyi urimo guhingira ibirayi, aho ibirayi ari imbuto abantu bahinga bakabisarura, bakayibijyana ku isoko bakabona amafaranga, ndetse abandi bakabihinga kugira ngo babone ibyo kurya bya buri munsi.

Inanasi ni urubuto abantu bahinga kugira ngo rwere barugurishe ndetse kandi inanasi n'urubuto rukunda guhingwa kugira ngo abantu bakuremo umutobe ndetse banarwifashishe bari kuvura indwara harimo malariya ndetse n'izindi zitandukanye.

Ibinyomoro bitukuye cyane ndetse n'ibihaza, aho ibinyomoro ari imbuto abantu bahinga, kugira ngo bazazirye zibongerere amaraso ndetse bakanazigurisha abantu, kugira ngo bazirye zibarinde indwara.

Avoka ni imbuto nziza cyane abantu bakunda guhinga, kandi zikaba bazigurisha kugira ngo babonemo amafaranga. Ni imbuto kandi zikundwa n'abantu benshi, aho bazirya kugira ngo bagire imbaraga mu mubiri.

Imineke ni imbuto abantu barya ndetse abandi bakazijyana ku masoko bakabona amafaranga, aho akenshi na kenshi bazirya kugira ngo zivure indwara nyinshi mu mubiri w'umuntu, ndetse zikaba bamwe bazifashisha mu kuziha amatungo mu igaburo.

Amapera ni zimwe mu mbuto zikunzwe n'abatari bake mu majyaruguru, aho bazihinga kugira ngo bazirye, ndetse bakanazigurisha, bakazikoramo imitobe y'ubwoko butandukanye.

Imbuto z'ibigori ni imbuto abantu bahinga zikera, bakazisarura kugira ngo babone amafaranga. Ndetse akaba ari imbuto zikungahaye ku bitera imbaraga, aho abantu bazirya bakagira imbaraga.

Ababyeyi benshi bafite amasuka, bari guhinga umurima, bigaragara ko bari guhinga imbuto, harimo ibijumba, ndetse n'ibishyimbo.

Umubyeyi uri mu murima aho ari guhinga imbuto kugira ngo zizere azisarure. Akaba azazijyana ku isoko kugira ngo abonemo amafaranga ndetse n'ibyo kurya.

Abantu benshi cyane, bari mu murima barimo kwaha icyayi, kugira ngo bazage kugitegura, bakoremo icyayi cyo kunywa, ndetse babone n'amafaranga yo kwifashisha.

Igihingwa cy'umwumbati cyera ahantu hakomeye ,kikaba gitanga imyumbati ,abantu bajyana ku isoko kugira ngo babone amafaranga ,ndetse bakanayirya kugira ngo bagire ubuzima bwiza.

Avoka ni urubuto abantu bahinga, kugira ngo bazarusarure barujyane ku isoko barugurishe. Avoka kandi ni kimwe mu bintu bikunzwe n'abatari bake, aho bazirya kugira ngo bashire inzara ndetse bagire ubuzima bwiza.

Urubuto rwa pavuro ni urubuto rwera abantu bakarujyana ku isoko, bakabonamo amafaranga ndetse abandi bakazirya mu rugo iwabo ,ndetse abandi bakazihinga ,kugira ngo bazabone ibyo kurya mu minsi iri imbere.

Umubyeyi ufite igitebo akaba ari mu murima w'imbuto w'icyayi aho arimo kugisarura kugira ngo akijyane ku isoko bamuhe amafaranga.

Umubyeyi urimo gukura karoti, aho karoti ari imbuto bahinga, zakwera bakajjyana mu isoko kugira ngo babone amafaranga, ndetse bakanazirya, kugira ngo bagire ubuzima bwiza.

Igitoki kitari cyera kimwe mu byifashishwa mu gukoramo umutobe, ndetse no gukuramo ibinyobwa bitandukanye, harimo inzoga ndetse bakaba bakifashisha bakirirya kivamo ibiribwa.

Ibigori ni imbuto abantu bahinga mu bishanga, kugira ngo babisarure babone ibyo kurya, ndetse bakaba banabijyana mu isoko kugira ngo babone amafaranga. Ndetse ibigori bikaba bikungahaye ku bitera imbaraga.

Ibigori bishishuye bihunitse ahantu hamwe, aho imbuto y'ibigori ari ibigori, ari ibihingwa abantu bahinga, kugira ngo bazabisarure babirye, bagire ubuzima bwiza, ndetse n'ibisigaye babijyane ku masoko, kugira ngo babone amafaranga.

Ibiti binini cyane, abantu batera kugira ngo bajye babyifashisha bari kubonamo inkwi zo gucana, ndetse abandi bakaba babikoreshamo imbaho zo gukoramo ibikoresho bigiye bitandukanye.

Imisozi miremire ndetse n'ibiti, bigaragara ko ari ahantu yihitaruye, hakunda gukorerwa ubushakashatsi, ndetse hakaba haturwa n'abantu bakeya, hakaba harangwa no kuba habamo inyamaswa z'ubwoko bugiye bitandukanye.

Inzuzi ni immbuto ntoya cyane zikunda kuva mu bihaza aho bazikoramo imiti igihe itandukanye ivura abantu ndetse abandi bakaba bazifashisha bari kuzirya.

igihingwa kikiri gito bigaragara ko ari bwo kikiva mu itaka, aho gitegereje gukura kugira ngo kizatange umusaruro, ndetse abantu bagikureho ibyo kurya kugira ngo babeho.

Ibirayi birimo kumera birambitse ahantu hamwe, aho ibirayi ari ibihingwa abantu bahinga, bikera bakabona amafaranga ndetse ibindi bakabijyana mu rugo bakajya kubirya.

Imifuka irimo ibishyimbo by'umukara. Ibishyimbo kandi , akaba ari ibihingwa abantu bahinga kugira ngo babone ibyo barya. Ndetse ,ibishyimbo bikaba bibamo intungamubiri, ndetse kenshi na kenshi bikaba ari ibitera imbaraga.

Ababyeyi benshi bicaye hasi, barimo kuyungurura ubunyobwa kugira ngo bakuremo ubusa nabi, babone ubwo kujyana ku isoko kugira ngo bazagire amafaranga ndetse bazabone n'ibyokurya byinshi.

Umugabo ufashe imbuto mu ntoki, aho yiteguye kuzijyana ku isuko, kugira ngo abone amafaranga, ndetse izindi azishyire mu rugo ajye azirya.

Imbuto z'ubunyobwa abantu bahinga, bakazisarura, bakazijyana mu isoko, bakabona amafaranga, ndetse abandi bakazishyira mu rugo, bakaziteka bakazirya.

Imiteja y'ibishyimbo abantu batera bakayisarura bakayirya kugira ngo bagire ubuzima bwiza ndetse indi bakayijyana ku isoko kugira ngo babone amafaranga.

Ingano itari yera, ikiri ntoya aho iyi ngano yeze bayijyana ku isoko bakayigurisha ,kugira ngo babone amafaranga ,ndetse abandi bakazishyira mu rugo iwabo bakazirya, kugira ngo bagire ubuzima bwiza.

Soya n'ibihingwa abantu bahinga bito cyane, bakaba babisarura bakabijyana ku masoko, bakabona amafaranga ndetse ibindi bakabijyana mu rugo bakajya kubirya.

Ubishyimbo byameze aho bitegura kubihinga mu murima kugira ngo bizakure babisarure babijyane ku isoko babone amafaranga.

Ibihwagari abantu bahinga kugira ngo babisarure, babikoremo amavuta bifashisha bari guteka ibiryo, kugira ngo ba birye bagire imbaraga.

Imbuto z'ibirayi ziri kuva mu itaka, kugira ngo zikure zizabe nini cyane, noneho zizavemo imbuto nini cyane, ndetse zizavemo n'ibiryo byo kurya bizagira akamaro.

Umugabo ndetse n'umukobwa ufashe inkoko urimo kugosora ibigori, kugira ngo bivemo imyanda hasigare ibyo kurya byiza, ndetse bimwe bakabijyana ku masoko.

Igitebo kirimo imishogi y'ibishyimbo aho ibishyimbo ari kimwe mu bihingwa bihingwa kugira ngo abantu babirye babone imbaraga ndetse babijyane ku masoko kugira ngo babone amafaranga.

Amasaka ni imbuto abantu bahinga mu bishanga kugira ngo bayasarure, bazayajyane ku isoko, bagurishe, babone amafaranga, ndetse amasaka akaba ari kimwe mu bihingwa abantu bahinga, kigatuma babona ibyo kurya.

Ibihingwa by'ibishyimbo bikiri bitoya, aho abantu babihinga mu mirima, kugira ngo byere babigurishe. Ibishyimbo kandi ni imbuto zikunze zikunzwe n'abantu benshi, aho bazihinga kugira ngo bazirye, zikaba zikungahaye mu bitera imbaraga.

Imbuto z'ubunyobwa kenshi na kenshi zikunze, abantu bakunda guhinga mu Majyaruguru, aho bazihinga bakabona amafaranga, ndetse bakanazirya, kugira ngo bagire ubuzima bwiza.

Ibigori kimwe mu bihingwa abantu bakunda guhinga bo mu Majyaruguru mu rwego rwo kugira ngo babone amafaranga, ndetse na bo babone ibyo kurya bigiye bitandukanye.

Ibigori ni imbuto abantu bahinga mu murima, bakayisarura bakabijyana mu rugo, bakabiteka bakabirya kugira ngo bagire imbaraga. Ndetse bakanabijyana ku masoko kubigurisha.

Imiteja igiye itandukanye aho abantu bayisarura kugira ngo bayiteke, bayirye bagire ubuzima bwiza kandi bakanayijyana ku isoko kuyigurisha kugira ngo babone amafaranga.

Imbuto ya soya abantu bahinga mu murima yakwera bakayisarura, bakayigurisha ku isoko, kugira ngo babone amafaranga, ndetse abandi bakayihinga bakayisarura, bakayijyana mu rugo bakayirya.

Ibigori byinshi cyane, aho abantu babyanitse kugira ngo byume bazabigurishe, ibigori kandi ni kimwe mu bihingwa abantu bahinga, abantu bahinga kugira ngo babirye, bagire imbaraga, ndetse barusheho no kubaho neza.

Imbuto z'ubunyobwa abantu bahinga kugira ngo bazirye ndetse abandi bakazihinga kugira ngo bazazijyane ku isoko , babone amafaranga. Ndetse, akaba ari zimwe mu bintu bikunzwe gukoreshwa kugira ngo abantu babirye bivure indwara zigiye zitandukanye.

Ibishyimbo birambitse ahantu hamwe, bimaze igihe gito bimeze, aho ari ibishyimbo, ari imbuto abantu bahinga mu murima, bakabisarura, bakabijyana ku isoko.

Imbuto z'inzuzi zirambitse ku isahani ifite ibara ry'umutuku, aho ari imbuto zera mu bihaza, abantu bakazikuramo, kugira ngo bazifashishe bari gukora imiti, ndetse no kuzirya.

Urubuto ruhingwa rwitwa ibirayi, aho abantu babihinga kugira ngo babone ibyo barya ndetse n'ibyo bajyana ku isoko, kugira ngo babone amafaranga yo kwifashisha.

Imifuka myinshi cyane irimo ubunyobwa. Ubunyobwa kandi n'ibihingwa abantu bahinga bakabisarura, bakaba babijyana ku isoko kugira ngo babone amafaranga. ubunyobwa kandi bukungahaye kuri vitaminini A.

Abakobwa babiri barimo kugosora ibishyimbo, aho bigaragara ko ibishyimbo ari imbuto abantu bahinga bakazijyana mu isoko kugira ngo babone amafaranga, ndetse ibishyimbo akaba ari imbuto zikungahaye ku bijyanye n'intungamubiri ndetse n'ibitera imbaraga.

Imbuto z'ibirayi zikiri ntoya cyane, abantu basaruye kugira ngo bazijyane ku masoko kuzigurisha, ndetse babone n'amafaranga menshi yo kugura ibindi bikoresho.

Imbuto za soya zikiri ntoya, aho iyo zeze bazikoramo umuti, ndetse bakazikoramo n'ibiryo byo kurya, abandi bakazikoramo umuti wo kuvura.

Ibi ibihwagari n'imbuto abantu bakunda guhinga kugira ngo iyo byeze bakaba babikoramo amavuta ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye kugira ngo bibafashe mu buzima bwa buri munsi.

Umuceri uhinze kugira ngo abantu bazawusarure bawubonemo ibiryo byo kurya, ndetse bazasagurira no ku masoko, kandi umuceri akaba ari bimwe mu biribwa bigira intungamubiri ndetse na vitamini abantu baba bakeneye kurya kugira ngo babeho.

Ibigori ni ibihingwa abantu bahinga kugira ngo bazabijyane ku masoko babone amafaranga, ndetse abandi bazabihinge kugira ngo babirye ndetse bikaba binatanga n'ibyatsi ku matungo.

Ubunyobwa ni igihingwa abantu bahinga, kugira ngo bazakijyane mu masoko babone amafaranga ,ndetse ibindi bazabijyane mu rugo babirye .

Umuceri uri mu ibara ry'umweru, abantu bahinga kugira ngo babone ibyo kujyana ku isoko, ndetse n'ibyo kurya mu ngo zabo kugira ngo babeho neza.

Ingano ni imbuto abantu bahinga kugira ngo bazisarure, babonemo ifu yo kugira ngo bifashishe bari gukora ibiryo byo kurya, kugira ngo babashe kugira imbaraga.

Umubyeyi uhetse umwana akaba ari mu kugosora ibishyimbo kugira ngo abone ibyo ajyana ku isoko, ibishyimbo kandi n'imbuto abantu bahinga zikungahaye ku bitera imbaraga.

Imbuto z'ubunyobwa zitaratonorwa aho zirambitse ari nyinshi cyane. Imbuto z'ubunyobwa ni zimwe mbuto abantu bifashisha, kugira ngo bagire ubuzima bwiza iyo baziriye.

Imifuka minini cyane y'umweru irimo ibigori, aho ibigori ari ibihingwa abantu bahinga bikera bakabijyana ku masoko bakabona amafaranga, ndetse ibindi bakabikoresha mu rugo babirya kugira ngo bagire imbaraga.

Ibigori bikiri bito bihinze mu murima munini cyane, aho abantu babihinga kugira ngo bazabisarure, babone ibyo kurya ndetse n'ibyo kujyana ku masoko.

Ubunyobwa ni imbuto abantu bahinga mu mirima kugira ngo bazazisarure, babone izo kurya ndetse babone n'izo kujyana ku masoko kugira ngo babone amafaranga.

Umugabo uri mu muririma ugiye kwikorera, akaba amaze gusarura ibishyimbo, ibishyimbo ni imbuto abantu bahinga, bakazisarura bakazijyana ku isoko, kugira ngo babone amafaranga.

Amasaka ni imbuto abantu bahinga mu murima zikera bakayasarura, bakayajyana mu rugo kugira ngo bayakoremo ibyokurya ndetse bayakuremo n'ibyo kunywa.

Ubuhinzi bw'umuceri abantu bakunda guhinga kenshi na kenshi bo mu majyaruguru, aho babihinga kugira ngo babone amafaranga ndetse umuceri niwera bazawurye ndetse bagire imbaraga nyinshi cyane.

Ibishyimbo byirabura bifite ibara ry'umukara, aho ibishyimbo ari ibihingwa abantu bahinga, kugira ngo bazabisarure babirye, ibindi babijyane ku masoko.

Imifuka myinshi cyane igiye itandukanye, aho imwe irimo ibigori, indi ikaba irimo amasaka, indi ikaba irimo ubunyobwa, bigaragara ko ari ibinyampeke abantu barya kugira ngo bagire imbaraga ndetse biririnde indwara.

Imbuto ntoya cyane zifite ibara ry'icyatsi . Aho imbuto zikunda kwera mu bice byo mu majyaruguru, ni aho abantu bazihinga ,noneho bakazisarura , abandi bakazijyana ku isoko .

Umugore wambaye umupira uri mu ibara ry'umweru ndetse n'ibara ry'umukara, aho ari kugosora ibishyimbo, kugira ngo abikuremo imyanda, hasigare ibishyimbo byiza byo guteka.

Abantu benshi cyane bateraniye ahantu hamwe bari kugura, ndetse abandi bari kugurisha ibintu bitandukanye kugira ngo babijyane, ndetse n'ababigurishije babone amafaranga yo kwifashisha, mu mu kugura ibindi bikoresho.

Ibigori biri mu masafuriya ndetse n'ubunyobwa, aho ibigori ari ibihingwa abantu bahinga bakabisarura bakabijyana mu isoko, kugira ngo babone amafaranga ndetse barye babone n'ibyo kurya.

Imifuka minini cyane zirimo ibigori aho abantu babisaruye kugira ngo babije mu isoko, ndetse ibigori kandi akaba ari ibihingwa abantu bahinga kugira ngo babirye bagire ubuzima bwiza.

Ubunyobwa ni zimwe mu mbuto zikunda guhingwa kenshi na kenshi mu majyaruguru, aho bazihinga kugira ngo babone amafaranga, ndetse abandi bakazijyana mu rugo kuzirya.

Ubunyobwa ni imbuto abantu bahinga mu bice byo mu Majyaruguru, aho ari imbuto zikungahaye ku ntungamubiri, aho abantu bazirya kugira ngo babeho neza.

Imbuto y'ibishyimbo by'imiteja, aho babisarura bakabijyana ku isoko, bakabona amafaranga, ibindi bakabisarura bakabijyana mu rugo kubirya.

Imbuto y'ibishyimbo, abantu bakunda guhinga mu bishanga, kugira ngo babone ibyo barya ndetse babone n'ibyo bajyana ku masoko , kugira ngo babone amafaranga.

Umugabo upakiye ibyatsi byinshi ku igare, aho abijyanye mu rugo kubigaburira amatungo ,kugira ngo agire ubuzima bwiza, ndetse na yo azatange umusaruro mwiza.

Imodoka nini cyane ihetse imifuka y'umweru, abantu bayiri iruhande, bigaragara ko ari imizigo imodoka yikoreye ikaba iyijyanye ku isoko.

Abantu babiri ndetse n'ibigori byinshi cyane byanitse hasi ku mahema aho bigaragara ko bari kubyanika kugira ngo bazabikoremo imbuto ndetse ibindi babihungurire bazabijyane kubikoramo ibiryo byo kurya.

Ibigori ni imbuto abantu basarura mu murima bakabishyira ahantu hamwe bikuma, kugira ngo bazabikoremo ifu, ndetse bazabijyane no ku masoko kubigurisha, kugira ngo babone amafaranga.

Ababyeyi barimo kurobanura ibigori kugira ngo bakuremo imyanda, hasigare ibigori bizima byo kurya, ndetse n'ibyo kujyana ku masoko, kugira ngo bazabone amafaranga yo kugura ibindi byo kurya.

Ibishyimbo abantu bahinga mu murima, kugira ngo bikure, babone ibyoku kurya, ndetse banabijyane ku isoko babone amafaranga. Akaba ari ibihingwa bikungahaye ku ntungamubiri, harimo vitaminini A.

Ibigori ni imbuto abantu bahinga kugira ngo bazabisarure, babone ibyo kurya, ndetse bazabijyane ku masoko. Ibigori kandi ni imbuto zibamo ibitera imbaraga, abantu barya bakagira imbaraga.

Amabase menshi cyane arimo imbuto zitandukanye harimo ibishyimbo, harimo ubunyobwa, hakaba harimo ndetse n'ibishyimbo by'umukara bikaba bigaragara ko ari imbuto ari ibihingwa abantu bahinga ndetse bakabirya kugira ngo bagire imbaraga.

Ababyeyi babiri bafashe ibitebo birimo ibigori, aho ari ibigori byinshi cyane bahunguye, ibigori akaba ari kimwe mu mbuto abantu bahinga, kugira ngo bazabyifashishe mu kubirya, ndetse no kubijyana ku masoko kugira ngo babone amafaranga.

Amasaka ni igihingwa abantu bahinga kugira ngo kizavemo umusaruro, ndetse bazagikoremo umutobe wo kunywa ndetse n'inzoga zo kunywa, ndetse bamwe na bamwe bakaba bayifashisha mu kuvura indwara, ndetse bikaba ari bimwe mu biryo abantu barya kugira ngo bagire imbaraga.

Inzu ziriho ibyapa byinshi cyane, bigaragara ko ari amazu abantu baguriraho ibikoresho, ndetse n'ibiryo bajyana kurya, kugira ngo bagire ubuzima bwiza.

Inkoko nyinshi bigaragara ko zirimo kurya aho inkoko ari ari itungo abantu borora kugira ngo ribahe amafaranga ndetse binyuze mu magi zitera ndetse binyuze no mu musaruro uvamo w'inyama.

Ingurube nini cyane iri konsa abana bayo. Ingurube akaba ari kimwe mu itungo abantu borora kugira ngo babone amafaranga, ndetse bakaba baryifashisha mu kurikoramo inyama zo kurya.

Inyama z'inka zibaze, abantu barya ndetse abandi bakazijyana ku isoko, bakazigurisha kugira ngo babone amafaranga, ariko bakaba bazirya zikaba zifite intungamubiri ndetse n'ibitera imbaraga.

Amatungo magufi yitwa inkoko, abantu bakunda kororera mu rugo, kugira ngo bazabone amagi yo kurya, ndetse bazabone n'inyama zo kurya, kugira ngo babeho.

Ingurube, itungo rikunzwe n'abatari bake mu ntara y'Amajyaruguru, aho ritanga umusaruro mwinshi, harimo inyama, nazo zikunzwe n'abatari bake mu gihugu cy'u Rwanda.

Amatungo magufi y'ihene, afite ibara ry'umukara ndetse n'ibara ry'umweru, ihene kandi n'itungo rigufi abantu borora, kugira ngo rizabahe amafaranga ndetse bazarigurishe, baribage babonemo inyama zo kurya.

Umubyeyi ushoreye umukumbi w'intama ndetse n'amahene ndetse inyuma ye, hakaba hari inka ziri mu ibara ry'umukara, bigaragara ko ari umubyeyi ukora ubucuruzi bw'amatungo, aho ayajyana ku isoko kugira ngo bamuhe amafaranga.

Ingurube ni itungo abantu borora kugira ngo rizabahe amafaranga, ndetse rizabahe n'inyama zo kurya mu gihe itungo ryaba rikuze.

Inka ifite ibara ry'umukara, ndetse n'ibara ry'umweru, umuntu urimo gukama amata, akaba ari gushaka amata kugirango ayanywe, bagire ubuzima bwiza.

Inka ni itungo abantu borora kugira ngo ribahe ifumbire ryo guteza imbuto, ndetse bakaba banazorora kugira ngo babonemo inyama zo kurya, ndetse n'amata yo kunywa kugira ngo bagire ubuzima bwiza.

Amatungo magufi abantu bakunda kororera mu rugo, aho inka ari amatungo atanga umusaruro, uturuka ku mata ndetse n'inyama.

Umuvuzi w'amatungo, uvura amatungo igihe itungo ryafashwe n'uburwayi. Aho barivura rigakira rigakomeza rikabaho, ndetse rikabyara rikororoka.

Inka ifite ibara ry'umukara ndetse n'ibara ry'umweru n'umugore uhagaze iruhande rwayo, akaba ari umuvuzi akaba arimo kuyivura, kugira ngo ayirinde indwara zitandukanye.

Inka ni itungo abantu borora, ryamara gukura bakaribaga bakarikoramo inyama, ndetse bakazijyana ku isoko kuzigurisha bakabona amafaranga, abandi bakazirya. Kandi inka zitanga amata abantu banywa, bakagira ubuzima bwiza.

Ubworozi bw'inkoko abantu borora, bakazifashisha bazirya, abandi bakazijyana ku masoko, kugira ngo babone amafaranga, ndetse bakazirya mu rwego kugira ngo zibatunge, babeho bagire ubuzima bwiza.

Urwuri rurimo inka nyinshi zimwe zifite amabara y'umweru ndetse arimo n'umukara ndetse zikaba zifite amahembe manini cyane bigaragara ko ari aho bororera inka nyinshi cyane kugira ngo zitange umusaruro harimo amata ndetse n'inyama zo kurya.

Inka ni imwe mu matungo magufi abantu bakunda kororera mu rugo, kugira ngo babone amata yo kunywa ndetse babone n'inyama zo kujya mu by'ukuri inka kandi zigira intungamubiri harimo vitamini ndetse n'ibitera imbaraga.

Ibyana by'ingurube biryamye ahantu hamwe, birimo ibara ry'umweru ndetse n'ibara ry'umukara, ingurube akaba ari bimwe mu bworozi bukunda gukorwa mu Majyaruguru, aho abantu bazigurisha bakabona amafaranga.

Itungo rito bita urukwavu, aho urukwavu ruri mu ibara ry'umweru, akaba ari itungo rigufi abantu borora kugira ngo babone inyama ndetse barigurishe babone amafaranga.

Inka kimwe mu bworozi bukunzwe gukorerwa mu ntara y'Amajyaruguru, aho abantu bazorora kugira ngo babone amafaranga ndetse babone n'inyama zo kurya, zibatunga umunsi ku munsi.

Umugabo ndetse n'inka zirimo ibara ry'umweru n'ibara ry'umukara inka akaba ari itungo abanturoraga kugira ngo ribahe umusaruro harimo amata ndetse n'inyama.

Abaganga b'amatungo aho ari abantu baba barize ibintu bijyanye no kuvura amatungo, kugira ngo igihe amatungo yafashwe n'uburwayi, bajye bayavura kugira ngo abeho neza.

Abaganga bigaragara ko barimo kuvura umuntu kugira akire, abaganga bakaba ari abantu, bavura abantu barwaye indwara zitandukanye harimo malariya.

Inkoko ni amatungo magufi abantu borora kugira ngo babone amafaranga ndetse babone n'amagi yo kurya atuma abantu bagira ubuzima bwiza ndetse akaba ari mu bintu bimwe abantu barya bikabarinda indwara ndetse inkoko zikaba zibonekamo n'inyama zo kurya.

Inka ziri mu mabara y'umweru ndetse n'amabara y'umukara ,zikaba zirimo kurisha ubwatsi, inka zikaba zitanga amata, ndetse bakaba bazibaga zikavamo inyama abantu barya.

Inka iri mu ibara ry'umweru n'umukara ndetse n'umutuku, hakaba hari n'imwe ifite ibara ry'umutuku. Inka akaba ari itungo abantu borora kugira ngo rizabahe amata. ndetse bazabone n'inyama zo kurya.

Itungo ry'ihene rifite ibara ry'umweru ndetse n'ibara ry'umukara, aho ihene ari itungo abantu borora kugira ngo rizabahe amafaranga ndetse bazabone n'inyama zo kurya kugira ngo babeho neza.

Inka ifite ibara ry'umukara ndetse n'ibara ry'umutuku udatukuye cyane, ikaba iryamye, bigaragara ko ari inka zikunda kubyara ndetse zigatanga amata, ndetse kenshi na kenshi bakaba bazibaga, zikavamo inyama zo kurya.

Inyamaswa kenshi na kenshi zikunda kugaragara mu mashyamba zitwa inkende, akaba ari inyamaswa zigenda nk'abantu, ziba zifite ibara ry'umukara, ndetse hivanzemo niry'umweru.

Inyamaswa yo mu ishyamba irimo, amabara y'umweru ndetse n'amabara y'umukara, ikaba ihagaze mu gishanga kinini cyane, akaba ari inyamaswa zikunze kuboneka mu mashyamba manini cyane.

Inyoni ihagaze hasi ku butaka, ifite ibara ry'umukara ndetse n'ibara ry'umweru, hakaba harimo n'ibara ry'umutuku ku maguru, akaba ari inyoni zikunda kuba mu biti binini cyane.

Ubwoko bw'inyoni bukunze kuboneka mu mashyamba, aho ar'inyoni ziri mu mabara y'umweru ndetse no mu mabara y'umukara, bigaragara ko ar'inyoni iri kumwe n'abana bayo irimo ibashakira ibyo kurya.

Inyamaswa y'inyoni ifite ibara ry'umweru, ndetse n'ibara ry'umukara, aho irimo kuguruka, akaba ari inyamaswa zikunda kugaragara mu bice bitandukanye, mu mashyamba ndetse no mu butayu.

Inyamaswa igira amahane menshi cyane, iri mu ibara rimwe ry'umukara, iboneka mu mashyamba manini cyane, akunda kubamo ibiti binini cyane, akaba ari inyamaswa zidakunda kugaragara ahantu hatari ibiti binini cyane.

Inyamaswa yo mu ishyamba aho ari inyamaswa zidakunda kuboneka mu bice byose, zikaba ari inyamaswa ziba mu mashyamba agiye atandukanye manini, kugira ngo zizakurure ba mukerarugendo batange amafaranga.

Inyoni ikunda kugaragara mu mashyamba. Ikaba ari zimwe mu bituma habaho ibinyabuzima bigiye bitandukanye. Inyoni kandi ni zimwe mu bituma abantu baza kuzireba, bityo bagatanga amafaranga.

Inyamaswa iri mu ibara ry'umweru, ndetse n'ibara ry'umukara, iboneka mu mashyamba, ndetse no mu bice bigiye bitandukanye, akaba ari inyamaswa idapfa kuboneka ahantu aho ari hose.

Inyamaswa y'ishyamba aho zikunze kuboneka mu mashyamba manini cyane ndetse no mu bice byinshi byo mu Majyaruguru akaba ari inyamaswa abantu babungabunga kugira ngo bazabone amafaranga.

Inyoni ifite ibara ry'umukara, ndetse n'ibara ry'umweru, aho ikunda kugaragara ahantu mu mashyamba ndetse no mu butayu, cyane cyane ahantu hari ibiti binini cyane hakunda kuva izuba ryinshi.

Inyamaswa yo mu ishyamba, ikunze kugaragara mu bice bitandukanye, aho bigaragara mu bwatsi buto cyane, ndetse akaba ari inyamaswa zikurura ba mukerarugendo.

Inyoni nto cyane ifite ibara ry'umutuku, ndetse n'ibara ry'umukara, akaba ari inyoni zikunda kugaragara mu bice byo mu majyaruguru, ndetse zikaba zikunda kugaragara hafi y'ingo z'abantu.

Inyamaswa y'agacurama icuramye, ikunze kuboneka ahantu hakeya. Kenshi na kenshi aho iboneka ni mu mashyamba manini cyane

Inyamaswa y’intare ifashe icyana cyayo mu kanwa, bigaragara ko iri mu ishyamba, irimo kugenda ihunga. Hakaba hari inyamaswa abantu bakunda gusura, bagatanga amafaranga.

Inyamaswa y'imvubu iboneka mu ishyamba ,akaba ari inyamaswa y'inkazi ,ndetse abantu bakaba bayihiga kugira ngo babone inyama zo kurya ,ndetse babonemo n'amafaranga.

Inyamaswa y'inkende aho ifashe urubuto rusa n'umutuku, kugira ngo irye igire ubuzima bwiza, kandi igaburire n'abana bayo. Mu buryo bwo kugira ngo izakurure ba mukerarugendo batange amafaranga.

Inyamaswa y'ihene yo mu ishyamba, ikunze kuboneka mu mashyamba agiye atandukanye manini, aho ari inyamaswa ikunda gukurura ba mukerarugendo, bagatanga amafaranga ndetse bigafasha n'abaturage kuhasura , mu buryo bwo kwishimisha.

Inyamaswa y'ishyamba yitwa ingagi aho zikunda kugaragara mu bice byo mu Majyepfo ndetse no mu Majyaruguru mu birunga. Akaba ari inyamaswa akenshi na kenshi zikunze gukurura ba mukerarugendo.

Inyamaswa yo mu ishyamba yitwa ingurube, aho ikunze kuboneka mu mashyamba menshi cyane kandi manini, aho ari inyamaswa kenshi na kenshi zikunze gukurura ba mukerarugendo, ndetse bakaba anazihiga kugira ngo abantu bazirye.

Inyoni iri mu ibara ry’umweru ndetse n’ibara ry’umukara, ihagaze ku giti, ikaba ari imwe mu nyoni zikunda kugaragara ahantu hari ibiti birebire cyane.

Inyoni zifite amabara y'umutuku ndetse n'amabara y'umweru, aho ari inyoni zikunda kugaragara mu mashyamba ndetse n'ahandi hantu harangwa n'ibiti birebire cyane.

Inyamaswa zifite ibara ry'umukara ndetse n'ibara ry'umweru zikunda kugaragara mu bice bitandukanye by'amashyamba hirya no hino cyane cyane mu mayjaruguru.

Inyoni iri mu ibara ry'umuhondo ndetse n'ibara iy'umukara, ikaba iri gukora icyari cyo kubamo kugira ngo ibone aho izajya irara, ikaba ari inyoni zikunda kuba mu biti birebire cyane.

Inyamaswa yo mu ishyamba, aho ari inyamaswa zidapfa kuboneka ahantu ahariho hose. Zikaba zikurura ba mukerarugendo bagatanga amafaranga, ndetse zikaba zinavamo inyama zo kurya.

Inyoni ifite amaso y'umutuku, ikaba ifite amababa y'umweru arimo n'ibara ry'umukara, akaba ari inyoni zikunda kugaragara ahantu mu butayu.

Inyoni ifite ibara ry'umweru ndetse n'ibara ry'umukara, aho igaragara ihagaraye ku giti cy' ishami ndetse inyoni zikaba zikunda kugaragara mu mashyamba, ahantu haba hari ibiti binini cyane.

Inyamaswa yo mu ishyamba akaba ari inyamaswa ifite ibara ry'umweru ndetse n'ibara ry'umutuku harimo n'ibara ry'umukara akaba ari inyamaswa zikunda kuboneka mu mashyamba ndetse no mu birunga.

Inyoni ihagaze iruhande rw'amazi, aho ar'inyoni iba mu biti, ikaba itungwa no guhiga izindi nyamaswa ndetse no gushaka, bimwe mu byo abantu baba barahinze kugira ngo zibeho.

Inyamaswa ifite ibara ry'umweru ndetse n'ibara ry'umukara yitwa imbwa, zikunda kuboneka ahantu hihishe hari amashyamba zikaba ari inyamaswa zidapfa kuboneka ahantu ahaho hose.

Inyoni nyinshi cyane zirimo kuguruka, zifite amabara y'umweru, ndetse n'amabara y'umukara, aho ziri kuguruka kugira ngo zijye gushaka ibyo kurya, ndetse n'uko zashaka ibyo zishyira abana bazo.

Inyamaswa yo mu ishyamba ikunda kuboneka ahantu hari ibiti binini cyane, ikaba ifite ibara ry'umukara, ndetse n'ibara ry'umweru, iruhande hakaba hari ibiti binini cyane.

Inyoni iri mu mabara y'umukara ndetse no mu mabara y'umweru. Ikaba igaragara ko ivuye gushaka ibyo kurya, ikaba ari inyoni ziboneka mu mashyamba manini cyane.

Inyamaswa kenshi na kenshi zikunze kugaragara mu mashyamba ndetse no mu birunga aho ari inyamaswa zigira uruhu rw'umukara zitwa ingagi kenshi na kenshi zikaba zikurura ba mukerarugendo.

Inyamaswa yo mu ishyamba yitwa inkende. Iri kumwe n'icyana cyayo aho zihagaze ku giti kinini, akaba ari inyamaswa ziboneka mu mashyamba, ndetse no mu bindi bice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye.

Inyamaswa eshatu zihagaze ku giti kimwe, aho ari inyamaswa zikunda kuboneka mu mashyamba amwe n'amwe yo mu Majyaruguru, ndetse no ku mpande z'isi zigiye zitandukanye. Akaba ari inyoni zidakunda kuboneka ahantu aho ariho hose.

Inyamaswa nini cyane zikunda kugaragara mu ishyamba ndetse no mu butayu aho ari inyamaswa nziza abantu bajya kureba bagatanga amafaranga.

Ikinyabuzima cyitwa akanyamasyo gikunda kuboneka mu mashyamba aho kigendera hasi ndetse akaba ari inyamaswa zidakunda kuboneka ahantu aho ariho hose.

Inyoni ihagaze ku giti cy'amashami abiri , ikaba iri mu ibara ry'umweru ndetse n'umukara mukeya , aho ari inyamaswa ikunda kugaragara mu mashyamba menshi agiye atandukanye.

Ingagi ebyiri zifite ibara ry'umukara, zikaba ari zimwe mu bintu bikurura ba mukerarugendo, bagatanga amafaranga, ndetse zikaba ari ibintu bifatwa nk'aho ari ubukungu bw'igihugu.

Inyoni ikunda kurya amafi yo mu mazi, akaba ar'inyoni ifite ibara ry'umutuku ndetse n'ibara ry'icyatsi, akaba ari inyoni ikunda kuboneka ahantu iruhande rw'amazi, kuko ari ho ikunda gufatira amafi.

Ubwoko bw'inyoni bunini cyane aho bufite ibara ry'umukara ndetse n'ibara ry'umuhondo akaba ari inyoni zikunze kugaragara mu mashyamba ndetse n'ahantu haba ibiti binini cyane.

Inyamaswa ifite ibara ry'umuhondo, ndetse n'ibara ry'umukara, ihagaze ku ishami ry'igiti, iyi nyoni ikaba ikunda kugaragara mu mashyamba yo mu Majyaruguru, ndetse no mu bindi bice byose bigiye bitandukanye.

Inyoni iri mu ibara ry'umutuku, ndetse n'ibara ry'ubururu ,aho ifite ibirenge biri mu ibara ry'umutuku, mu by'ukuri akaba ari inyoni zikunda kuboneka mu mashyamba ,aho abantu bajya kuzisura bagatanga amafaranga ,ndetse akaba ari na bimwe mu bintu byinshi bituma igihugu kibona amafaranga menshi.